Godeni fashoni shopu, isoko ricuruza imyenda itandukanye, yaba iy'abagabo iy'abagore, ndetse n'ibikapu bijyanwamo ibintu bitandukanye, iby'abanyeshuri ndetse n'ibya mukerarugendo.

Inoti yo mu gihugu cy'u Rwanda ya magana, yakozwe mukwezi kwa mbere z'ukwacumi nabiri, igihumbi kimwe magana n'umunani, iriho amashusho y'ingagi ndetse n'abanyeshuri bari gusoma igitabo.

Imashini ibara amafaranga, ku buryo mu bigaragara imbere yayo, hari amafaranga menshi, yiteguye kubara kandi neza itibeshye, ikora neza mu buryo bw'ubuhanga, ntabwo yiba.

Umuryango bisa nkaho uri kunywa mu icyayi ndetse imbere yawo hateretse umuleti ibikombe ndetse n'isukari.

Inzu ifite saro nziza irimo intebe zifite ibara ry'ubururu, ifite ameza y'umukara, ifite saramanje nziza nini, ifite imitako mu nzu, ndetse ifite amatara meza mu nzu, itatse neza mu buryo bwiza butandukanye.

Inzu nziza iri mu bwoko bwa etaje igeretse kabiri yubatse neza intera ifite ibi ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero bubiri biri mu mabara meza yubatse ahantu heza, hari jaride nziza ndetse na parikingi yisanzuye.